Ahantu hacururizwa ibinyobwa bitandukanye harimo icyitwa amusiteri, hicaye abantu benshi ariko kubera urumuri rwinshi ntabwo ubasha kubabona amasura, bigaragara ko hari n'urumuri rwinshi ruri imbere y'amadirishya asize irangi ry'umweru.

Uburyo bwo kwigisha bwa kera bwari bwiza kuko abana bagiraga igihe cyo gukomeza kureba ibyo biga bigatuma bo babifata neza ariko na none bwari bufite ingaruka kubera ko baravunikaga cyane, gukomeza kwandika, kuzagira igihe cyo gusiba, byaravunaga.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga hagaragaramo icyapa cyandikishije ibara ry'umutuku ku rupapuro rw'umuhondo k'ikigo cy'ubucuruzi bw'inzoga cya sikolo, icyo cyumba kirimo intebe, utubati n'itara rinini rifashe ku gisenge.

Ameza manini afite ibara ryijimye, bateretseho isahani nini nayo iriho ibiribwa byoroheje bitandukanye, iruhande rw'iyo sahani hari icupa ririmo ikinyobwa kigomba kuba ari nacyo gisutse muri biriya birarahuri bicagase.

Icyumba gifite inkuta z'ubururu kimurikiwe n'amatara abonesha cyane kirimo akabati gapanzemo ibinyobwa bitandukanye bipanze kuburyo bimwe birahagana hasi ibindi biri hejuru.

Intebe nziza zegamirwa zifite ibara ry'umukara, zifite amaguru maremare y'umweru, zitondetse neza zikurikiranye iruhande rw'urusika rw'umweru, rutandukanya abaguzi n'umucuruzi.

Umugore w'inzobe ufunze umusatsi wambaye ikote ry'ikake, yicaye iruhande rw'ameza y'igiti yakobotse, inyuma ye hari ubusitani bumurikiwe n'amatara abonesha neza afite amabara atandukanye.

Inzoga zikaze, nk'iyi iteretse ku meza y'ikigina, inywerebwa mu kirahure. Ibiciro byayo biba bigaragara kubera ukuntu bihenze, kugira ngo hatagira ukwibeshya, kandi bikishyurwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Inzu nini, igeretse, igaragaza icyapa cy'abayikoreramo, imbere yayo hari ubusitani burimo ibiti byiza, yegeranye n'ayandi mazu matomato, agaragaza ibyapa bitandukanye by'ubucuruzi, harimo n'icyapa gifite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bahuriye mu bikorwa byo kwirangaza, baba bishimye, banywa ibinyobwa bitandukanye, buri wese aganira na mugenzi we.

Icyapa kinini gifite ibara ry'umutuku ryandikishijeho inyuguti z'umweru, hariho n'icyapa cy'inzoga ya amusiteri, kiri imbere y'inzu isize irange ry'umweru, hari n'umuntu ucunga igare.

Intebe yegamirwa ikozwe mu giti, iteretse mu cyumba iruhande rw'akabati karimo ibinyobwa bidasembuye, inyuma yayo hari akandi kabati karimo ibinyobwa bisembuye bitondetse neza ku buryo bikurikiranye.

Umusore w'imibiri yombi ufite umusatsi mwinshi udasokoje neza, wambaye ishati y'umukara, ahagaze iruhande rw'ameza, ateretseho agacupa k'umutuku gafite icyapa cy'umuhondo.

Intebe ikoze mu giti, irambitseho imisego ibiri, iteretse i ruhande rw'akabati gakoze mu giti, biri mu cyumba gishobora kuba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye, gifite amatara atamurika neza.

Abantu benshi b'urujya n'uruza, bari mu cyumba gikoremwo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye, kimurikirwa n'amatara amanitse hejuru ku gisenge, harimo n'akabati gapanzemo inzoga zitandukanye bacuruza, n'itara ku ruhande rituma ubasha kubona buri wese.

Icyapa kinini cyane cyamamaza ubucuruzi bukorerwa mu nzu yandikishije inyuguti zitukura ku mutwe w'icyo cyapa, kigaragaraho ikirahure kinini kirimo inzoga yenda kuzura hejuru hariho urufuro ndetse n'iyindi iri mu icupa.

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa bitandukanye gifite ubusitani bwiza butoshye, akabati kagenewe kubikwamo ibinyobwa gafite isuku kandi gakikijwe n'ameza y'igiti ku buryo umuntu uri inyuma atahinjira.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye, zipanze neza mu kabati zikurikiranye, umugabo uzicuruza yambaye ishati y'umukara, imbere y'akabati na none k'umukara, hari intebe, hari iy'umukara hari n'iy'ikigina.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bushobora kuba burimo ubw'inzoga zisembuye, amazi afunze mu macupa, kimurikirwa n'amatara abonesha cyane afite amabara atandukanye hariho umuhondo n'ay'ubururu.

Akabati kari mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye, zipanze neza zikurikiranye ku buryo buri yose igaragara, akabati gafashwe n'icyuma ku buryo kadashobora gukora hasi.

Icyapa kinini cyane cyamamaza inzoga ya sikoro, kiriho abagore n'abagabo bashobora kuba banywa iyo nzoga, gifite ibara ry'umuhondo. Giteretse mu busitani burimo uduti dutoya dutoshye.

Icyapa kinini kiri mu ibara ritukura ryijimye cyandikishijeho inyuguti nini z'umweru iruhande rwacyo hateretse indobo eshatu zagenewe kubika imyanda zipfundikiye neza.

Ameza afite ibara ryijimye ateretseho ibirahure bibiri birimo amazi acagase iruhande rwabyo hari ikindi kirahure kirimo impapuro z'isuku kandi icyo cyumba kimurikiwe n'amatara atabonesha neza.

Aha hantu hacururizwa inzoga zisembuye, harimo izikaze cyane hari umugore wambaye ishati y'umukara, icyumba gisize amabara atabona neza ku buryo hatari urumuri rwinshi utabasha kuhicara.

Umuntu muremure w'igikara wambaye ipantaro y'ikake, aragenda mu muhanda w'amabuye. Imbere ye hari icyapa cy'umuhondo, n'ikindi cyapa cyamamaza inzoga zisembuye za Mitsingi.

Imodoka eshatu nziza, nini zigezweho, zihagaze imbere y'inzu ifite ibaraza risakaye. Risakaje amabati afite ibara ritukura. Hejuru yayo hari icyapa cyanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umweru yamamaza.

Abakobwa babiri binzobe basutse imisatsi, umwe muribo yambaye indorerwamo zamaso n'umupira w'umweru, undi yambaye umupira w'umuhondo. Bari mu kivunge cy'abantu benshi baje gukurikirana umupira. Aho abakinnyi bamwe barimo gukina, undi uri hirya yaguye.

Icyapa kinini kigaragaraho amabara atandukanye harimo ubururu bw'ikirere, ubururu bwijimye, ibara ry'umuhondo. Cyometse ku rukuta rw'icyumba kimurikiwe n'itara rinini, gifite ibara ry'icyatsi.

Utubari ducuruza ibinyobwa bitandukanye, tuba twarateguye ibintu birangaza ku buryo n'umukiriya waba yaje wenyine, atagira irungu.

Intebe ndende wicaraho ugombye kwisumbukuruza, zikunda kugaragara mu tubari ducururizwamo inzoga zisembuye, haba kandi amatara amurika cyane nk'ayangaya agaragara muri iki cyumba.

Icyapa kirekire cy'umukara gifite umutwe wanditse mu nyuguti z'umweru kigaragaraho urutonde rurerure rw'ibicuruza, imbere yaburi gicuruzwa hagaragaraho igiciro cya buri kintu.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi kirimo abantu bicaye n'abandi bahagaze, kimurikiwe n'amatara abonesha cyane amwe muri yo afite ibara ry'umuhondo ayandi afite ibara rijya gutukura.

Icyapa kinini kimanitse hejuru ahantu hirengereye, kigaragaza icupa ry'iyo nzoga, kikagaragaza amagambo asobanura ukuntu iyo nzoga yateguwe ndetse n'uko yabitswe ku buryo yaryohera abakiliya.

Icyinyobwa cya sikoro giteguye neza muburyo bwumwimerere ntigisindisha , ahubwo cyongera imbaraga kimara inyota n'inzara, kigatuma abakinywoye bishima

Abantu bari mu kabari bigaragara ko gacururizwamo inzoga zisembuye, harimo abicaye ku ntebe, hari n'umugabo uhagaze uri ahantu hatabona neza, wakeka ko yasinze.

Umukobwa usobanura uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga ni inzobe, afite intoki ndende zisizeho amabara adasa ebyiri muri zo zisizeho ibara ry'umutuku.

Icyapa kinini kigaragaraho icupa ry'inzoga Sikoru, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, imbere y'igipangu gifite urugi rw'ikigina.

Icyapa kinini kiri ku rubaho rw'umweru kigaragaza urutonde rw'ibinyobwa bitandukanye bicururizwa mu nzu yabugenewe n'igiciro cya buri cyose kandi byose birashimishije.

Icyumba cy'ubucuruzi kiza gifite amatara amurika neza, gitatswe n'ibikoresho bya kinyarwanda kiganwa n'abantu benshi batandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Ibihe byo kwinezeza abantu basangirira hanze, turabona abicaye ku meza, kandi bahabwa serivisi ku buryo bushimishije, n'abantu biteguye ndetse bambaye imyenda yabugenewe, urabona uyu mugabo ukuntu yambaye umupira w'ikake n'abantu batandukanye kandi barishimye.

Abantu benshi bahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi irimo intebe z'imbaho n'ameza hejuru hagaragara icyapa cy'ubucuruzi bakora.

Akabati keza k'icyuma kateguwe neza ugashyirwamo itara ryo kumurika ku buryo buhagije kugira ngo inzoga zibitsemo zihenze zijye zigaragara neza hatazagira iyibwa ntibimenyekane

Urutonde rw'inzoga zisembuye zicururizwa mur'iyi nzu, rwanditse mu nyuguti z'umweru ku kibaho cy'umukara. Rugaragaza ubwoko bw'inzoga bafite n'ibiciro bya buri bwoko, imbere ya buri nzoga.

Ipikipiki ifite ibara ritukura, itwawe n'umuntu wambaye ingofero y'umutuku, ahetse uwambaye ingofero y'umutuku, umupira w'ikijuju, n'ipantaro y'ubururu. Iragenda ku muhanda ushashemo amabuye.

Icyumba gicururizwamo ibiribwa bitetse n'ibinyobwa bisembuye; kirimo ameza, iruhande rwayo hicaye abantu babiri, umwe wambaye amalinette n'undi wambaye agakoti k'ubururu imbere ye hari icupa ry'amazi, undiimbere ye hari icupa ry'inzoga isembuye.

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo inzoga zisembuye, harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umukara, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto zifunze hari n'igare ryegetse ku nkingi y'icyuma.

Icyapa cy'ubucuruzi bw'ibiribwa, kigaragaza ibiribwa bigera kuri bitandatu gicuruza, imbere ya buri kiribwa hagaragara, igiciro utanga kugira ngo ubashe guhabwa icyo kiribwa.

Urukuta rwubakishijeje amatafari ahiye, rutangira urusaku ntirusoke, naho igisenge gikozwe n'ibyuma n'amabati gifata ubushyuhe bwinshi cyane cyane iyo amatara yaka.

Umukobwa w'inzobe usutse umusatsi, ari kumwe n'undi umusobanurira uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Bari imbere y'icyapa cy'umukara, kiri ku byuma bisize ibara ry'umutuku wijimye.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye, cyanditse mu nyuguti z'umukara zisomeka neza ku cyapa gifite ibara ry'umweru, imbere ya buri gicuruzwa hari igiciro cyacyo.

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye bimwe biteretse hasi ibindi bipanze mu kabati kuburyo ukurikirana neza buri cyose kiragaragara.

Icyumba gikoreramo ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye, harimo: inzoga zisembuye, harimo amazi, hari n'inzoga ziri mu kirahure ku meza y'igiti, hari n'ayandi meza atwikirije igitambaro cy'umutuku.

Icyumba gicururizwamo inzoga z' ubwoko butandukanye, zitondetse neza, kumeza yigiti yabugenewe, kuruhande rwo hasi asize irange ry' umweru, zicuruzwa numukobwa wirabura ufite imisatsi myinshi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku, cyandikishijeho amagambo manini, ari mu ibara ry'umuhondo, kigaragaraho abagore babiri n'icupa ryanditseho Sikolu. Munsi kigaragaraho amagambo asobanura yuko kunywa inzoga nyinshi atari byiza ku buzima.

Hejuru y'amarembo yinjira mu rugo rw'inzu isize irange ry'umweru, rifite idirishya rinini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa, hamanitse icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku, cyandikishijeho inyuguti z'umweru cyamamaza ibihakorerwa.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya bifite ibirahure birebire, ku ibaraza ryayo hateretse ameza n'intebe eshatu.

Umugore wambaye ishati y'umweru, uteze igitambaro cy'umweru, arimo kwifotora, ari imbere y'akabati kabikwamo inzoga zipanze ku buryo bukurikiranye neza, ku buryo buri yose igaragara.

Icyumba cy'inzu ikorerwamo ubucuruzi cyubakishijwe ibikoresho bigaragara nk'aho bidahambaye cyane, isize amaranga y'umuhondo ariko bishoboka ko ihenda kuko ntabaguzi barimo.

Igitabo kigaragaza ibiribwa bitandukanye bicururizwa ahantu n'uburyo bitegurwa ndetse n'ibiciro byabyo, bigaragara muri buri ruryibiryo ndetse bagasoza banakwifuriza kuryoherwa.

Amacupa y'inzoga zisembuye y'ubwoko batatu butandukanye; mitsingi, sikoro na amusiteri ateretse yegeranye. Iruhande rwayo hari umugabo wambaye ipantaro y'ikigina n'umupira ufite ibara ritukura.

Akabari kari ahantu harangwa n'ibyapa binini, byamamaza inzoga bacuruza n'ibindi bikorwa byabo, gafite ikibuga kinini kisanzuye gishobora kuba gikoreshwa n'abahagana bafite ibinyabiziga.

Abantu bakuru iyo banyoye agahiye hari abanywa za Mützig n'bubndi bwoko baraganira bakishima ariko baba bagomba kwiranga kwirinda kurangara gukoresha no gukoresha inzoga mu...

Icyapa kinini kiri kukibaho cy'umweru cyandikishijweho utunyuguti tw'umukara, kigaragaza urutonde rw'ibiribwa bitangwa mu gihe gitandukanye n'ingengabihe yabyo.

Uyu mugabo wambaye ipantaro y'umutuku bigaragara ko yatumiwe mu bukwe ariko kubera gucyererwa asanze ibintu byose byashize, arazenguruka hirya no hino yabuze icyo afata.

Ibirahure byinshi birebire bisukuye neza biteretse ku meza iruhande rw'ayandi meza ariho amafurusheti n'ibiyiko n'umuntu ugaragaza intoki gusa.

Icyapa kigaragaza uko wasoma ibyabitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigaragara muri aka kazu k'umweru karimo utuntu tw'umukara dusibasibye.

Abantu barimo umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse nundi wambaye ikote ry'umukara n'abagore babiri harimo uwambaye umupira wumweru bicaye bakikije ameza barimo gusangira baganira.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, itatsemo ibirango bitandukanye bikozwe mu buryo bw'ubugeni, hagaragaramo n'amacupa apanze neza mu kabati kamurikirwa n'itara ribona neza.

Hino y'umugabo munini cyane, wambaye ingofero y'umukara n'ishati y'ubururu, hateretse ameza akoze mu rubaho rukomera cyane, ateretseho ikirahure kirimo inzoga icagase, iruhande rwacyo hari indorerwamo z'amaso zirinda izuba.

Umukobwa wishimye useka wambaye umupira w'umukara ari mu cyumba gicururizwamo inzoga zisembuye arerekana ukuntu bishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Umugabo muremure w'imibiri yombi yambaye ishati y'umweru n'umupira w'umukara. Ari mu cyumba kirimo ibintu bitandukanye, harimo inzoga zipanze mu kabati n'ameza atwikirije umwenda w'umutuku, wandikishijeho inyuguti z'umuhondo.

Icyapa kiranga ibicuruzwa gishobora kwandikwa mu buryo busanzwe bw'inyuguti nini zigaragara cyangwa se hagakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga, nk'ubu ngubu bugaragara kuri iki cyapa cy'umuhondo.

Icyapa kinini cy'umweru cyanditseho urutonde rw'ibicuruzwa bitandukanye byanditse mu tunyuguti dutoya mu ibara ry'umukara. Imbere ya buri gicuruzwa hari igiciro cyacyo

Imodoka ntoya ifunze inzugi n'amadirishya ihagaze imbere y'icyapa kirekire gifite ibara ry'umutuku n'iry'umweru kigaragaraho izina ry'inzoga, icupa n'ikirahure.

Inyemeza bwishyu yo muburyo bw'ikoranabuhanga, iragaragaza urutonde rwibicuruzwa byose byishyuwe, na ibiciro byabyo, na igiteranyo rusange cya amafaranga yishyuwe, kuburyo ntacyo umuntu yakwibeshyaho.

Icyumba kinini, cyisanzuye, kirimo ameza menshi, aho abantu bicaye mu matsinda y'abantu bake bake, kimurikiwe n'amatara afashe mu gisenge hejuru, harabona neza ku buryo abantu baganira bisanzuye.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye, harimo n'ibicuruzwa bidasembuye biri mu macupa apfundilije imifuniko y'umweru. Iruhande rw'intebe z'umutuku zifiye ibyapa by'umuhondo. Hari n'imiheha ndetse n'impapuro z'isuku, n'ameza y'icyatsi.

Iyi nzu icururizwamo inzoga zisembuye iri munzu igaragara ko ishaje nubwo amarange yo kunguta n'ayo ku igisenge yavuguruwe bikaba bishoboka ko ariyo mpamvu nta baguzi babasha kubona.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu, ari aho bacururiza ibinyobwa bisembuye n'ibikomoka ku nyama, hagaragara n'icyapa gikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyura.

Inzoga icagase ikirahure iteretse iteretse ku meza y'igiti abengerana, iruhande rw'icupa ry'icyatsi hari n'ibindi bikorwa byo kwamamaza biri ku cyapa cy'umuhondo, birashoboka ko abayinywaga bayisizemo bakitahira.

Icyapa kinini cyamamaza, kigaragaraho urutonde rw'ibinyobwa bitandukanye, bicururizwa muri iyi nzu n'amafaranga bigura, ku rundi ruhande hagaragaraho ibyapa binini byanditse mu nyuguti z'umutuku, n'utundi dutoya twanditse mu nyuguti z'umukara.

Mu binyobwa bitandukanye bicururizwa muri iki cyumba bipanze neza mu kabati ku buryo buri cyose kigaragara, harimo inzoga zisembuye ziri mu macupa maremare apfundikiye, harimo n'amazi agaragaza ibyapa by'ikigo kiyategura.

Ameza manini afite ibara ry'ikigina ateretseho ibintu bitandukanye, harimo icupa rya mitsingi ririmo inzoga icagashe, iruhande rwaryo hariho ikirahure kirimi inzoga nayo ituye ifite urufuro hejuru. Hirya gatoya hari ishakoshi imenyereye gutwarwa n'abagore ifite ibara ry'ikaki

Abantu bagana aho bacururiza ibinyobwa cyane cyane mu masaha ya ninjoro bicara bakurikije amabara y'amatara bakunda, hari abakunda ay'ubururu, hari abakunda ay'umutuku, hari abakunda ay'icyatsi, hari abakunda amurika cyane, hari n'abakunda amurika buhoro.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuwe itatsemo indabo, n'amafoto nk'iriya iriho umusambi ifite nuburyo bwo kwishyura bwikorana buhanga.

Icyumba kimurikiwe n'amatara afashe ku gisenge cy'inzu, kirimo abantu n'ameza menshi n'intebe, kiratunganyije neza n'inzira ijyayo isize amarangi y'umweru n'umukara, irasa neza rwose.

Mu tubyiniro hitabirwa n'abantu benshi cyane cyane abakiri batoya. Hanywerwa inzoga nka za mitsingi, bakabyina, bakishima haba hari n'urumuri rw'amatara atandukanye.

Amatara yo mu mahoteri aba atangaje afite ubwiza buhebuje, hari anagana ku migozi, ari ku nkoko za kinyarwanda, ari mu dutete twa kinyarwanda, kuburyo abakiriya baba bari aho bategereje kwakirwa bibashimisha bikabarangaza.

Amagambo ari kuri iki cyapa yanditse mu ibara ry'icyatsi, ayanditse hejuru agaragaza ibyabitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga ibyaribyo, naho ayanditse hasi akagaragaza icyo wakora kugira ngo ubashe kubigeraho.

Akabari gacururizwamo inzoga za Skol n'ibiryo nk'uko bigaragara ku cyapa kimanitse hejuru y'umuryango usize irangi ry'umweru winjirayo, gasize amarangi y'umuhondo n'ay'umutuku, bigaragara ko hatunganyije neza kubera ko imbere hagaragaramo ubusitani burimo n'ibiti.

Akabari gacuruza inzoga zisembuye harimo nka primus, bishobokako bacuruza n'ibiribwa kuko hari n'umunyu kumeza uri mugacupa gamfundikije umufuniko w'ubururu. Bwitabirwa n'abantu batandukanye harimo n'abagore, bakifashisha uburyo bwo kwishyura bushingiye kw'ikorabuhanga bigaragarako bwateye imbere cyane.

Icyapa kinini cyamamaza inzoga yza virunga kiri mu ibara rivanze umuhondo n'icyatsi kigaragaraho abantu benshi bishimira kunywa inzoga ya virunga bashira intoki hejuru.

Mucyumba gicururizwamo inzoga zisembuye hagaragara icyapa cya inzoga ikundwa yitwa henikeni n'inzoga ikundwa n'abagabo n'abagore Kandi irahenda cyane ariko abantu barayigura.

Abantu batatu barimo abagore babiri n'umugabo umwe, bakora mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye. Bahagaze imbere y'ububiko bwazo, bategereje ko abaguzi baza bakabakira.

Mu cyumba gucururizwamo ibinyobwa bisembuye, harimo abagore babiri; umwe wambaye igitenge kirimo icyatsi, undi wambaye ishati y'umutuku, bicaye bareba mu byarekezo bitandukanye. Icyumba gifite urumuri ruke, ku buryo udashobora kubona mu maso habo.

Ibinyobwa bitandukanye biteretse ku meza birimo inzoga zisindisha, birimo n'amazi y'Inyange, biri mu cyumba kimurika neza, icupa rinini riteretse ku meza atwikirije igitambaro cy'umutuku.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umuhondo cyandikishijeho inyuguti z' umutuku cyamamaza cyamamaza ikinyobwa gicuruzwa n'ikigo cya skol kiri iruhande rw'umuhanda ushasheho amapave

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa, kimurikirwa n'amatara abonesha neza, harimo n'utubati dutandukanya abakiriya n'abatanga ibicuruzwa, mu batanga ibicuruzwa harimo uwambaye umupira w'umutuku.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kirimo amatara amwe amurika cyane n'ayandi amurika buhoro kirimo ameza y'igiti afite amaguru y'ibyuma n'intebe imwe murizo ifite ibara ritukura.

Umukobwa munini ufite umusatsi muke, wambaye umupira ufite ibara ry'ivu n'ipantaro y'umukara, aragenda mu muhanda ushashemo amabuye, akingirijwe n'icyapa kinini kiriho icupa rinini rya Mutsig. Inyuma y'icyo cyapa hari imodoka eshatu zihahagaze.

Igicuruzwa kiri mu icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'icyatsi, ryometseho igipapuro cyanditseho amagambo asobanura ubwoko bwacyo n'ukuntu gikoreshwa.

Icyumba gifite nkuta zubakishije amatafari ahiye. Muri icyo cyumba hateretsemo ameza afite ibara ry'umweru. Kuri ayo meze hateretseho agacupa karimo uduti dukoreshwa bakura imyanda mu menyo iyo bamaze kurya.

Icyumba gikorerwa mo ubucuruzi bw'amata, gifite inkuta zisize irange ry'ubururu, kirimo ibyuma bicururizwa mo amata, biyabika kandi bikayakonjesha bikoze mu buryo butandukanye, kimwe kiratambitse, bibiri birahagaze iruhande rwabyo hari ameza afite ibara ry'umweru.

Umugore usutse umusatsi, wambaye imyenda y'ibitenge, aranywera amata mu kirahire kinini gifite umukondo, giteretse ku meza atwikirije igitambaro gifite amabara menshi. Iruhande rwe hari ibyapa binini, birimo igifite ibara ry'umutuku, n'ikindi gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyumba gicururizwamo amata kigaragaraho ibirango binini, biri mu ibara ry'ubururu bishushanyijeho utujerekani tw'umweru, turi mu bugero bitandukanye, dupfundikije imifuniko y'umweru n'utundi dupfundikije imifuniko y'umutuku harimo intebe ebyiri n'ameza.

Ikigo cya ubucuruzi Inyange. gifite uburyo butandukanye bwo kwamamaza ibicuruzwa byacyo, hakubiyemo ibyapa bitoya ndetse na ibyapa binini bifite amatara bimurika bikagaragara cyane.

Amandazi abiri ari mu indobo ibonerana iteretse kumeza y'igiti, harimo n'igikoresha cyabugenewe gikoreshwa mugukuramo ayo mandazi.

Mu nzu icururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa, amata yuzuye ikirahure ataretse ku meza, irihande rw'isahani iriho umukati, bishobora kuba byasizwe n'umukiriya utabyishimiye.

Abakozi b'ikigo cy'ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho Inyange, bambara impuzankano nziza y'umweru n'ingofero z'umweru, bakambara n'ikirango kiriho imyirondoro yabo, gifatishije mu ijosi umugozi ufite ibara ry'ubururu.

Umugore usutse inweri wambaye imyenda yibitenge, ari mu cyumba gicururizwamo ibinyobwa bidasindisha birimo n'amata. Yakiriwe neza, mu gihe arimo kunywa, arimo no gusuzuma ibikorerwa kuri telefone ye.

Icyumba kirimo amakaro hasi no ku nkuta kigaragaramo ibikoresho bikeya binyanyagiye, hagaragaramo n'umukobwa wambaye ikabutura, wambaye ikabutura y'iroza n'umupira w'umweru, intebe n'igicuba cy'amata, cyuzuye amata ariko kidapfundikiye.

Icyumba gicururizwamo ibintu bitandukanye bitunganywa n'uruganda Inyange, harimo amata, harimo imitobe y'imbuto, harimo amazi. Hagaragaramo kandi icyuma kibika kikanakonjesha amata, ndetse harimo n'intebe y'umweru.

Impapuro z'isuku zifite ibara ry'umweru zibitse mu gipapuro cyabugenewe, ziteretse ku meza ashaje bigaragazwa n'uko yaharadutse cyane.

Akajerekani kuzuye amata gapfundikije umufuniko w'umweru, iruhande rw'ako hahagaze umuntu wambaye imyenda y'ubururu ishobora kuba ari impuzankano y'ikigo akorera.

Umukobwa w'imibiri yombi, usutse imisatsi, wambaye imyenda y'ubururu n'ikote ry'umukara, ari mu cyumba gicururizwamo amata, ahagaze imbere y'icyuma kibika kikanakonjesha amata.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'amata ya Nyanza, kiri ku rugi rusize irange ry'ubururu; kigaragaraho: inka, utujerekani tubikwamo amata dufite ibara ry'umweru, dupfundikije imifuniko y'umweru, turiho n'icyapa cy'ubururu.

Umusore muremure w'igikara ufite umusatsi muke n'amenyo y'umweru azaniye amata mu kirahure kinini gifite umukondo umukiriya wambaye imyenda y'ibitenge wicaye iruhande rw'umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'ikote ry'umukara.

Mu nzu icururizwamo amata hagaragaramo ibicuba amata atwarwamo. Hagaragaramo abagabo babiri umwe yambaye agapira k'umweru n'umukara undi yambaye ishati ya karokaro, bose bambaye amapantaro y'ubururu. Umwe agiye gukorera undi igicuba kuberako kiremereye.

Amajerekani y'umweru apfundikije imifuniko y'umweru, atondetse mu kabati kuburyo bukurikiranye, ku buryo buri yose igaragara mu cyumba kibona neza.

Ikirahure kinini gifite umukondo, kirimo amata yuzuye. Giteretse ku meza afite ibara ry'umweru, iruhande rw'isahane na yo ifite ibara ry'umweru, byose biri mu cyumba kizengurutswe n'ibirahure bibonerana.

Urutoki rw'igikumwe bigaragara ko ari urw'umuntu w'igikara, rugaragara rufatishije agapapuro k'isuku umukati, yicaye mu cyumba gicururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa bishoboka ko byoroheje, harimo intebe ifite ibara ry'ubururu n'ameza afite ibara ritukura atagaragara neza.

Icyumba kirimo akabati gasize irange ry'ubururu, hejuru hateretse teremusi, hateretsemo n'amasahane, harimo n'uburyo bwo gukonjesha, hari n'intebe ya pulasitike y'ubururu n'akadobo k'umukara kajugunywamo imyanda.

Ibicuruzwa bifunze mu macupa upfundikije imifuniko y'umweru, byometseho ibyapa bigaragaza ubwoko bwabyo. Bibitse kuburyo bitakangirika.

Amajerekani acururizwamo amazi yo kunywa, apanze mu kabati k'icyuma, gasize amarange y'ubururu, arapfundikiye, yose imifuniko ireba imbere.

Iyamamazabikorwa ry'ibicuruzwa bikenerwa buri munsi, harimo nk'umukati ukoze mu ngano n'umunyu n'isukari, utetse neza ku buryo uwuriye umuryohera.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye ifite imiryango myinshi. Umwe ucururizwamo imiti ivura abantu, ukurikiyeho ucururizwamo imyenga yiganjemo iy'abagore, uwa gatatu ucururizwamo amata ya Mukamira.

Ahacururizwa amata y'i Nyanza harangwa n'ibyapa by'inka bimanitse ku nzugi no ku madirishya, ndetse n'amabara y'ubururu n'umweru, utujerekani tw'amata, n'ibindi n'ibindi.

Umukobwa wambaye umwenda w'akazi, ahagaze mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'amata, imbere ye hari ameza afite ibara ry'umweru, hirya ye gato hari icyuma kibika kandi kigakonjesha amata, iruhande rwe indobo ifite ibara ry'ubururu bwijimye.

Icyapa kinini cyane kigaragara ku nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ya Nyanza, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo. Kigaragaraho inka n'ibikoresho byifashishwa mu gucuruza amata. Munsi yacyo hari ikindi cyapa gitoya, giha ikaze abagana iyo nzu.

Icyumba gicururizwamo amata y'ikigo inyange kirimo utubati tubiri kamwe kegamiye urukuta gafite ibara ry'ubururu akandi gakingirijwe n'ibirahure ku ruhande rumwe ahandi ntihakingirije, hateretsemo ibikombe by'umweru bimwe birubitse ibindi biragaramye.

umugore winzobe wambaye ikanzu ndende afite amaso manini yambaye amaherena ari mucyuma asutse imisatsi ari mu cyumba gisize irange ry'umweru arimo kwitegereza ikintu kitagaragara.

Isambusa zikoze mu nyama ifarini n'amavuta, zitetse neza zirahiye ariko zimwe zasadutsemo kabiri izindi ni nzima, ziri ku isahani y'ubururu bw'ikirere.

Ibirahure binini by'umweru bifite imikondo biteretse ku meza arambuyeho igitambaro cy'umweru n'ubururu, ku ruhande hateretse akajerekani k'umumweru ndetse hagagaraga n'intebe ya pulasitike y'umweru.

Icyumba gicururizwamo amata kigaragaramo icyuma gikoreshwa mukuyabika no kuyakonjesha, hari n'indobo idapfundikiye neza ibitsemo ubwoko bw'imikati ikundwa n'abana benshi kubera ko iba irimo isukari.

Abagabo babiri harimo umwe wambaye indorerwamo z'amaso uhagaze areba hanze, ahagaze imbere y'akabati karimo utujerekani dutoya tw'umweru n'ijerekani nini y'umuhondo irambitse, iruhande rwe hari undi mugabo useka ufite akajerekani gafite ibara ry'umuhondo mu ntoki gapfundikije umufuniko w'ubururu.

Umwana ukiri muto wambaye inketo zifunguye z'ubururu, azanye n'umubyeyi we kugura amata, bamaze kwishyura, bategereje ko umucuruzi bagarurira, hagati ahongaho umwana aritegereza cyane.

Umukobwa ucururiza ibicuruzwa bidasembuye mu nzu isize amarange y'ubururu n'umweru, yakiriye umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Amandazi aryoshye y'umuhondo ahiye neza bigaragara ko arimo amagi, ari ku isahani y'umweru iriho uturabo dutoduto.

Indobo zibonerana zipfundikiye nizo zagenewe kubikwamo amandazi ziteretse kumeza akoze murubaho rukomeye inyuma yazo hari ikaramu y'ubururu idapfundikiye.

Ibicuba batwaramo amata biba ari birebire, bifite imikondo bateruza n'imipfundikizo; ariko ibi byo ntabwo bipfundikiye, bishoboka ko imifuniko yatakaye, ni ukuyishaka.

Icyumba gicururizwamo amata kigaragaramo icyuma kinini gikoreshwa mu kubika no gukonjesha amata n'ibindi bikoresho byifashishwa harimo nk'akajerekani k'umweru gapfundikije umufuniko w'umutuku.

Umukoba w'imibiri yombi, ufite umusatsi muke, wambaye ikanzu y'icyatsi, ahagaze mu cyumba gicururizwamo ibinyobwa bitandukanye, imbere y'akabati katari karekare, gatandukanya umuguzi n'umucuruzi.

Icyuma kibika kikanakonjesha amata acururizwa muri iki cyumba; kirimo n'akabati k'ibirahure, gateretsemo utujerekani tw'umweru; munsi hari icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Aho bacururiza amata ari mu tujerekani n'ibindi bikomoka ku mata, hacururizwa n'amazi afite icyapa cya niri, byose biteretse ku meza y'igiti afite utwenge tugaragara neza.

Icyumba gicururizwamo ibintu bitandukanye cyiganjemo ibikomoka ku mata kiriho icyapa kigaragara cyane cyimanitse hejuru cyerekana ibikorwa n'urwo ruganda rw'amata.

Abakobwa babiri harimo umwe w'inzobe useka neza wambaye umupira w'umukara nundi w'igikara usutse imisatsi wambaye ishati baramamaza ibicuruzwa bikomoka kumata.

Imikati iri ku isahane y'umweru hariho n'agapapuro k'isuku gafasha ugiye kuyirya kuyifata, isahane iteretse ku meza y'ikijuju igaragaraho uturongo tw'umweru.

Umugabo ukora ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ibiribwa n'ibinyobwa, arakira abamugana yiteguye kubaha ibyo bashaka. Hagaragara n'undi muntu wicaye haruguru, ushobora kuba ashinzwe kwishyuza gusa.

Umugabo ucuruza amata, afite akajerekani mu ntoki k'umweru, inyuma ye hari akabati gasize amarange ry'ubururu, yicaye no hafi y'idirishya rigaragaza umucyo wo hanze.

Isambuza nziza ni nini zihiye neza zitondetse ku isahani yabugenewe ariko isa naho itogeje kubera ko hagaragaraho utuntu tumeze nk'umugese.

Indobo eshatu ziteretse ku meza akoze mu giti ateretse mu cyumba kirimo urumuri rudahagije ku buryo urebeye kure utabasha kumenya ibiri muri ziriya ndobo n'ubwo zibonerana.

Ikirahure kirimo amata y'inshyushyu ikirahure kinini kiruzuye kiri mu cyumba kibonesherezwa n'itara ritamurika cyane bigaragara nkaho giteretse hejuru y'icyuma gikonjesha.

Isambusa nini, ziryoshye, zitetse neza, zirundanyije ku isahani nini y'umweru, iriho igipapuro gifite bara ry'ikake, zikoze mu ifarini, inyama, zitekesheje amavuta y'igihwagari.

Icyumba gikinguye cyane kigaragaramo ibintu bitandukanye harimo umugore wambaye imyenda yiganjemo umutuku ufite isakoshi y'umukara ahagaze i ruhande rw'ameza y'icyuma maremare i ruhande rwayo meza hari intebe.

Icyumba gicururizwamo ibikomoka ku mata kirimo umugore usutse imisatsi, wambaye agapira k'umweru, yambaye n'urunigi, iruhande rwe hari igikoresho kibika, gikonjesha n'akajerekani k'umweru.

Iyi mikati y'ubwoko butandukanye ibitse mu bipapuro byabugenewe ntingana, nta nubwo ikase kimwe ariko yose ibitswe hamwe, iteretse ku gipapuro cy'ubururu kirimo n'ibara ry'umweru n'umukara.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye harimo ibidasembuye n'imitobe y'imbuto bigaragara mu cyumba gifite amarangi y'ubururu bwerurutse n'umweru, hejuru hari akantu gateretseyo gafite ibara ry'umutuku.

Icyumba gicururizwamo amata ari mu cyuma kiriho ibirango by'ikigo kiyacuruza biri mu ibara ry'ubururu n'umweru, umukobwa uyacuruza ari imbere akingirijwe n'akabati gafite ibara ry'ubururu arimo kwita ku baje kuyagura harimo umwana n'umugabo wambaye agapira k'ubururu n'umweru.

Ibinyobwa bicururizwa mu nzu isize amarangi y'ubururu n'umweru, biri mu kabati gasize ibara ry'umweru, bipanze neza ku buryo uwinjiye abasha kubireba; imbere yabyo hari ameza ariho agasanduku, gafite ibara ry'umuhondo n'icyapa hejuru.

Abantu banywa amata bicaye mucyumba gisa ubururu n'umweru, bambaye imyenda itandukanye, harimo uwambaye ishati y'ubururu bw'ikirere, hari uwambaye ishati ya karokaro, uwambaye umupira w'umweru n'umukara, bose baranywesha ibikombe buriwese kimwe kimwe kandi bafite akanyamuneza.

Igikorwa cyo kunywa amata kirubahwa, kigendana n'indangagaciro nyinshi, ntiwabona umuntu uyanywa ahagaze, abayanywa bose bagomba kuba bicaye batuje.

Icyumba gifite inkuta n'idirishya bisize irangi ry'ubururu n'umweru, giteretsemo ameza akoze ku buryo bwihariye, hateretseho ibintu bitandukanye bibikwamo ibiribwa n'ibinyobwa.

Umuntu wambaye imyenda ifite amabara y'umukara n'ubururu, arasuka amata mu cyuma kigenewe kuyabika no kuyakonjesha yifashishije igicuba cyabugenewe.

Amata y'inyange acuruzwa mu buryo butandukanye, iyo ari muri ibi bigunguru byabugenewe; abasha kubikwa igihe kirekire agakonjeshwa ku buryo agera ku bayakoresha ameze neza.

Amata y'inka z'Inyanza acuruzwa mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo butandukanye ari inshyushyu, ari ikivuguto, ari yahurute, mu tujerekani, mu dukarito ntabwo wayabura aho wayakenera hose.

Umwana winzobe wambaye umwenda wo kurarana afite imisatsi yamarende apfukamye hasi iruhande rwigicuba gitwara amata inyuma ye hari abagabo babiri bambaye amakote y'umutuku.

Utubati tubikwamo ibicuruzwa tugaragara mu mazu y'ubucuruzi, tuba tutangana kandi duteretse ahantu hatandukanye, kamwe kaba kari inyuma hafi y'urukuta akandi kari imbere ku buryo ntawagatambuka.

Abantu bari mucyumba gicururizwamo amata, harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara aranywera mu kirahuri kinini cy'umweru gifite umukondo, yicaye imbere y'ameza atwikirije igtambaro cy'umutuku wijimye.

Ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho, ni ubucuruzi bwihariye bukenera gukoranwa isuku cyane, aho utujerekani tw'amata twogeje neza tuba tugomba kuba dupanze mu kabati ndetse n'ibicuba bikoreshwa bayatwara nabyo bigomba kuba bifite isuku kandi bipfundikiye.

Iyo ibikoresho byo munzu bibitse hamwe, mu buryo bufite isuku na gahunda, bigaragara neza; ni ibintu bidashobora kwisoba uwo ariwe wese.

Amata ya mukamira na yo ni ubundi bwoko bw'amata aboneka ahantu hatandukanye mu gihugu mu Rwanda. Rwose araryoha yaba inshyushyu cyangwa ikivuguto.

Amandazi yahiye cyane akisatura, aba arimo umusemburo mwinshi, cyangwa se yaratetswe ku muriro mwinshi cyane, cyangwa se barakoresjeje amavuta atari ubwoko bwiza, ku buryo uyariye ashobora kugira ingaruka ku buzima.

Umwana w'igikara urimo kunywera mu gakombe k'umweru gashushanyijeho amabara y'iroza afite intoki zirabura afite n'iminwa minini kandi yicaye yitonze.

Ibicuba bikoreshwa bikoreshwa batwaramo amata, bipanze neza mu cyumba bikurikiranye birapfundikiye, birogeje neza ariko ntushobora kumenya niba byuzuyemo amata cyangwa se birimo ubusa kuberako bipfundikiye cyane.

Amata ya MUKAMIRA, amazi yo kunywa afunze mu macupa, ibinyobwa bitandukanye bikonjesheje mu byuma byabugenewe tubisanga ahantu hatandukanye hacururizwa ibinyobwa.

Indobo iboneramo irimo amandazi irapfundikiye, iri ku meza ahantu hari urugi rusize irangi ry'ubururu bwijimye, hirya y'aho hari umugabo ugenda mu muhanda utagaragara neza.

Umusore muremure w'igikara wambaye umupira n'ipantaro by'ikijuju n'inkweto zifunguye; aragenda mu kibuga, ageze iruhande rw'ipikipiki ihagaze, aratera intambwe ndende cyane.

Ubwoko bw'imikati buteretse ku isahane y'umweru bugerekeranye buteretse ku meza y'ikijuju mu cyumba kitabona neza iruhande rwacyo hari ayandi masahane y'umweru apanze agerekeranye.

Umusore w'igikara, wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'ubururu, ahagaze iruhande rw'ameza, mu nzu icururizwamo amata. Hari ijerekani nini y'umuhondo. Akazu gacururizwamo amata kari iruhande rw'ibiti bitoshye.

Ibirahure bitanu binini bifite imikondo byose byuzuyemo amata, biri mu cyumba gicururizwamo ibinyobwa bidasembuye harimo ameza amwe ateretseho isahene ifite amabara atandukanye ndende isahane iriho umukati.

Amandazi ari ku isahani y'umweru ahiye ku buryo butandukanye, hari ahiye cyane n'ahiye buhoro, akorwa mu ifarini n'amavuta n'isukari ateretse ku meza atwikije igitambaro igitambaro kirimo ibara ry'ivu.

Mu cyumba gicururizwamo amata y'inyange afunze mu makarito, hari ameza yubitseho indobo ibonerana, ipfundikiye capati, n'iyindi iru ku ruhande irimo amandazi, agurishwa rimwe rimwe.

Inzu nini ifite imiryango n'amadirishya by'umweru, igaragaraho icyapa kinini cyerekana ubucuruzi bw'amata bakora, bukorwa n'ikigo cyitwa Ikaze.

Umukobwa w'igikara wambaye ishati y'umkara, ateruye ijerekeni nini y'umuhondo, arasuka amata mu birahure binini bifite imikondo, ararangaye ku buryo ashobora kuyamena.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'amata, kigaragaza akamaro kayo k'uyanyoye, cyane cyane ku mwana, ukuntu abyibuha, agatoha, kandi akaba yishimye.

Ameza y'umweru iruhande rwayo hateretseho hateretse intebe y'ubururu byose biri imbere y'inzu ifite inzugi n'amadirishya by'ubururu hari nakandagira ukarabe.

Capati zihiye neza zitondetse ku isahani y'umweru ifite amabara y'ubururu n'ay'umutuku ziraryoshye zikoze mu ifarini bazitekesha amavuta y'ubuto adafashe.

Icyumba gicururizwamo amata ya Nyanza, kigaragaramo icyuma gikoreshwa mu kubika no gukonjesha amata; harimo n'akabati karimo amajerekani manini, n'utujerekani dutoya tw'umweru, dufite imifuniko y'umutuku.

Akabati gakoze mu giti karambitsemo amajerekani abiri y'umweru manini adapfundikiye, kariho icyapa cy'ubururu cyandikishijeho inyuguti z'umweru kari kandi iruhande rw'urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Ahacururizwa amata y'inyange, hagaragara icyapa kinini, kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hagaragara kandi ibicuruzwa bitandukanye by'icyo kigo, harimo amata, amazi, imitobe y'imbuto, n'ibindi, n'ibindi.

Utujerekani tune duto tw'umweru twanditseho amagambo mu mabara y'icyatsi, ubururu n'umukara duteretse hasi iruhande rw'amajerekani abiri manini imwe y'umweru n'iyindi y'umuhondo.

Umugore wambaye ipantaro y'umutuku n'imyenda iranga idini ya isiramu, afite akajerekani k'umweru mu ntoki, ahagaze mu cyumba iruhande rw'ameza afite ibara ry'umweru inyuma ye hari intebe y'umweru.

Amagi manini atatu, agaragara nk'atetse, ari ku gatete k'umukara, gapfumguye utwenge twinshi, ku ruhande rumwe kaciye, ako gatete gateretse ku meza afite ibara ry'umweru.

Icyumba gikusanyirizwamo amata kigaragaramo ibyuma bigenewe kubika no gukonjesha amata biteye mu buryo butandukanye ibyo byuma bituma amata abikwamo igihe kirekire akazanyobwa ameze neza.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'amata kigaragaramo amata afunze mu tujerekani n'afunze mu dukarito hari n'ameza atwikirijeho ibitambaro by'umweru.

Icyumba gicururizwamo amata y'i Nyanza, gitatswe n'inkongoro, gicuruza kandi amagi, imikati, harimo n'icyuma kibika kikanakonjesha amata.

Umugabo muremure cyane bitangaje wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bidasembuye kigaragaramo ibikoresho byinshi bifite ibara ry'ubururu.

Icyumba gicururizwamo amata afunze mu tujerekani twa litiro eshanu, turiho icyapa cy'ubururu kigaragaza ikigo cy'ubucuruzi, hari abantu batatu, hari uwambaye ishati y'umuhondo, n'undi wambaye umupira urimo ibara ry'umweru, n'umwana unywesha igikombe.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'amata atunganywa agacuruzwa n'ikigo Mukamira kigaragaramo icyuma gifite ibirango bw'icyo kigo umukozi w'icyo kigo wambaye ikote ry'umukara usutse umusatsi hagara n'imodoka ihagaze imbere y'iyo nzu ifunze hose ifite ibara ry'umweru.

Icyapa kinini gifite ibara ry'umuhondo, kigaragaza uburyo bukoreshwa n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN mu kwishyura, bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu, afite telefone muntoki, afite n'agakapu k'umukara, arereka uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umukobwa w'inzobe, wambaye umupira w'umukara, ucururiza mu kazu k'umuhondo, kagaragaraho ubyapa bitandukanye byerekana ubucuruzi bakora, yakiriye umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Imodoka nini yometseho akapa kari mw'ibara ry'umuhondo, kamamaza ibikorwa by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Ihuye n'umukozi w'icyo kigo irahagarara.

Abakozi ba kompaye y'itumanaho ikorera mu Rwanda emutiyeni, bambara impuzankano nziza y'ibara ry'umuhondo, bakira abakiliya babo babyitayeho ku burya abakiliya bagaragaza akanyamuneza.

Icyapa cyamamaza uburyo bwo kwishyura bucuruzwa n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda kitwa Emutiyeni, kigaragaza yuko iyo ubukoresheje bikorohera kubera yuko ntayandi mafaranga wishyuzwa arenze ku kiguzi k'igicuruzwa.

Umugabo muremure w'igikara wambaye ingofero y'umweru, ikanzu y'ubururu, uhetse igikapu cy'umukara mu mugongo. Ari imbere y'akazu ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyeni gikoreramo. Agiye gusaba ubufasha, aravugana nundi mu kiriya ahasanze.

Utuzu emutiyeni itangiramo ibikorwa byayo bijyanye n'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, turitabirwa cyane ku buryo usanga kuri buri dirishya nibura hari abantu babiri bakirwa n'umukozi umwe wa emutiyeni uri imbere mu kazu.

Abantu ba tatu barimo umugore wambaye umupira ufite amabara y'ubururu, umuhondo n'umweru ni pantaro y'ubururu, bahagaze imbere y'akazu k'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu U Rwanda kitwa Airtel.

Umuntu w'inzobe wambaye amarinete n'umupira ufite ibara ry'ivu, ari mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi aho bishyura bakoresheje ikoranabuhanga, icyumba gisize amarange y'umweru ndetse hari n'inkingi ifiteho akantu gatukura.

Umugabo ubyibushye ufite umusatsi muke, wambaye ishati y'ubururu bw'ikirere n'ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'umukozi w'ikigo cy'itumanaho MTN uri mu kazu gacururizwamo, baraganira yifashe mu mayunguyungu.

Umukobwa uhagaze wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umuhondo uvugira ku ndangururamajwi, we kimwe n'abandi bicaye inyuma baramamaza ibikorwa bya kiriya kigo cy'ubucuruzi kigaragara kuri kiriya cyapa kinini cyo kwamamaza.

Umukozi w'ikigo cyitumanaho gukorera mu Rwanda cyitwa MTN, wambaye ingofero y'umuhondo n'ubururu n'umupira w'umuhondo, ashobora kuba ari gusobanurira uyu mugabo wambaye ikoti ry'ikijuju ibijyanye n'ikoranabuhanga nubwo bisa nkaho aturutse mu cyaro.

Abagabo babiri umwe araseka yambaye umupira w'umutuku, afite agapfunyika gashushanyijeho umugabo wambaye amarinete, kari mu ibara ry'ikake ari kumwe n'undi wambaye umupira w'impuzankano ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN baramamaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Bumwe mu buryo bwo kwishyura hakoresheje ikoranabuhanga, bukunda kugaragara ku byapa by'umuhondo bigaragaraho nimero y'umucuruzi ndetse n'ibisobanuro bujyanye y'uburyo bwose bwo kwishyura.

Ahakorera ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cyitwa MTN, buri gihe haba hari abantu benshi bashaka ibicuruzwa byayo ari urujya n'uruza, ku buryo nta na rimwe nta muntu n'umwe uba uhari.

Abantu babiri, umusore n'inkumi bose bambaye imyenda yamamaza ibikorwa by'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda MTN. Bahagaze imbere y'akazu gakorerwamo ubucuruzi, gafite icyapa kiriho ibara ry'umukara.

Umukobwa w'inzobe, ufite umusatsi mwinshi ufunze neza, ahagaze imbere y'uwo arimo kwakira, wambaye ikanzu ya shokora. Muri icyo cyumba harimo ibyapa byamamaza ibindi bicuruzwa bitandukanye n'ibikorerwa muri iyo nzu.

Ku gisenge cy'icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga, hari icyapa cy'ikigo gikora ibijyanye n'imari cya ekwiti, imbere y'icyo cyumba hari imitako igaragara ko yakorewe mu Rwanda.

Umukobwa w'inzobe wambaye agashati k'umweru n'umukara, usutse imisatsi. Atandukanyijwe n'abakozi ba emutiyeni n'ikibaho kiriho ibyapa byamamaza, birimo amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Abantu bakikije akazu gakorerwamo ubucuruzi bw'ikigo gikora iby'itumanaho mu Rwanda cya emutiyene bambaye myenda itandukanye harimo uwambaye ishati y'umutuku, uwambaye umupira w'umweru, umugore wambaye ishati y'umutuku. Umukozi w'icyo kigo yiteguye kubakira

Umugore wishimiye cyane kwamamaza ibicuruzwa by'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda aragaragaza uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umusore muremure w'igikara wambaye indorerwamo z'amaso yambaye n'umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo, ari mu cyumba gikorerwamo ubucuru bw'ibitangwa n'ikigo gikora iby'itumanaho mu Rwanda cya MTN.

Utuzu tw'ikigo k'ikoranabuhanga mu itumanaho Mtn dukoze mu buryo butandukanye. Hari udusize amarange y'umuhondo dufite n'ibyapa byo kwamamaza inyuma, imbere dusize irange ry'umweru, abakiriya batugana banyuze ku madirishya aba afunguye ku buryo bugaragara.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ahagaze iruhande rw'idirishya ry'akazu k'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda Emutiyeni, gafite ibara ry'umuhondo, gateretse ahantu hagaragara nk'aho ari igiturage kubera ko inyuma yako hagaragara ibyatsi n'inzu yasenyutse.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, emutiyene; akikijwe n'abantu batandukanye, bategereje ko abasobanurira ibijyanye n'ibicuruzwa by'icyo kigo.

Umuntu ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umukara ahagaze imbere y'inzu ikorerwamo ubucuruzi n'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda cyitwa emutiyene.

Umutaka ufite ibara ry'umuhondo ry'ikigo gikora ibyitumanaho MTN uteretse iruhande rw'umuhanda hafi y'impuzanzira aho imodoka zinyuranyuranamo zihuta cyane.

Inzu ikrerwamo ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cyitwa MTN aho uyisanze hose iba ifite amarangi y'umuhondo yandikishijwehomo inyuguu z'umukara ku buryo utayiyoberwa.

Inkingi ndende izirikwaho imigozi itwara amashanyarazi, ishinze imbere y'umuryango w'inzu, ufite ibara ry'umweru ufunguye. Kuri iyo nkingi hegetseho umwase w'urukwi wumye neza, ushobora kwifashishwa mu gucana umuriro.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi bw'ibitangwa n'ikigo cy'itumanaho cya MTN mu Rwanda gasize irangi ry'umuhondo ibirango biriho biri mu ibara ry'umutuku iruhande rwako hari umugabo wambaye umupira w'ubururu bwererutse.

Umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa yambaye umupira w'icyatsi ufite udupensu imbere tw'umukara yaje guhaha inyanya mu isoko agiye kuzishyura akoresheje uburyo bw'ikorana buhanga.

Umugabo muremure ufite uruhara wambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara afite agaseke karimo bimwe mu bicuruzwa atanga.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, aravugira kuri telefone, yicaye kuri moto, iruhande rwe hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, uriho ibirango by'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, kitwa MTN.

Akazu k' ikigo cy' itumanaho gikorera mu Rwanda cya MTN gasize amarange y' umuhondo gafite idirishya rinini rifunguye, karamamaza ubundi buryo butangwa na MTN bwo kuzigama bwa Mokashi.

Ahakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi by'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda cyitwa emutiyene hariranga, uzahasanga amarange y'umuhondo n'ubururu, abakozi bayo baba bagomba kuba bambaye neza bahagaze biteguye kwakira ababagana.

Umugore wambaye umupira w'umukara n'ijipo irimo amabara menshi higanjemo ubururu n'umuhondo, ahagaze imbere y'akazu k'umuhondo, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati ijya kuba umutuku n'umukobwa wambaye agapira k'ubururu n'ijipo y'umukara, inyuma ye hari umutaka ufunguye.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo, cyamamaza uburyo bwo kwishyura bukoresha ikoranabuhanga, aho umuguzi yishyura igicuruzwa gusa tarengeje ho andi mafaranga.

Umugore w'inzobe wambaye indorerwamo z'amaso n'ikanzu y'ikigina ndende avuye guhaha . Anyuze iruhande rw'abantu bacuruza ibicuruzwa by'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya mtn.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda Mtn, arakira umukiliya yishimye, mu kazu akoreramo gafite ibara ry'umuhondo, hagaragara icyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru kigaragaraho ibiciro bitandukanye.

Akenshi, utuzu dutanga serivise z'itumanaho za sosiyete y'ikoranabuhanga MTN mu Rwanda tuba duteretse imbere y'amazu; umukozi watwo aba arimo ku buryo abakiliya baza bamusanga.

Icyapa kinini cya emutiyene, ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho gikorera mu Rwanda, kiragaragaza nimero ikwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga n'amazina y'uwo ibaruyeho.

Utuzu twa emutiyeni kompanyi yitumanaho mu bya telefone turafasha mu gutanga serivisi ariko hari igihe usanga duteretse ahantu habangamye k'uburyo ubona kugirango rwose hatangirwe serivise bitoroshye.

Ibigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda bya emutiyeni na eyateri byose bizi kwamamaza ibikorwa byabyo. Emutiyeni yamamaza yandika ku tuzu twayo kenshi tuba dufite ibara ry'umuhondo naho eyateri ikamamaza yandika ku tuzu twayo tuba dufite ibara ry'umutuku n'umweru.

Mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi y'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda MTN haragaragara abantu batandukanye abagabo n'abagore bambaye bose impuzankano y'akazi barakira umugora wambaye ishati ifite amabara menshi n'ipantalo y'umukara.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho mu U Rwanda MTN baramamaza ibikorwa byacyo, barakira ababagana .Bose bambaye impuzankano hejuru ifite ibara ry'umeru udupira dufite ikora ry'umuhondo, bakiriye umugabo muremure w'igikara wambaye ishati ya karokaro, ipantaro y'umukara n'inkweto z'ifunze.

Abantu babiri begereye akazu gakorerwamo ubucuruzi bw'ibitangwa n'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda MTN umwe ari imbere undi ari inyuma uri inyuma yambaye agapira k'umutuku.

Utuzu tw'umuhondo tw'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda MTN, tuba dufunguye cyane ku buryo utanga serivise n'uyihabwa baba begeranye bigatuma babasha kumvikana.

Umukobwa w'igikara wambaye umupira w'umuhondo n'umwenda ugaragaza ubucuruzi akora, ari mu nzu irimo ibikoresho byinshi bijagaraye, harimo akajerekani k'umweru, isafuriya n'ameza atwikije igipapuro cy'umweru.

Ikibanza cyo mw'isoko gicururizwamo imyenda itandukanye. Hagaragara amapantaro atondetse mu mabara atandukanye, hejuru yayo hari amakote nayo afite amabara atandukanye, n'umuntu urimo kumanika icyapa kiriho uburyo bwo kwishyura bwifashisha ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ubururu, indorerwamo z'amazo, afite agasatsi gake cyane, arakira abamugana, ni batatu, harimo uwambaye agashati k'ubururu, uwambaye agashati k'umutuku ukeye, n'undi wambaye ishati y'umutuku wijimye ufite telefone ntoya mu ntoki.

Abagore babiri bagaragara mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, umwe yambaye ikanzu ndende ifite amabara menshi afite akenda ko kwifubika ku rutugu, undi yambaye umupira w'umuhondo ufite ijosi n'amaboko y'ubururu uriho ibirango by'ikigo cy'ubucuruzi cya emutiyeni yambaye n'ipantalo y'umutuku.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda yambaye impuzankano y'akazi, arasobanurira umuguzi ibijyanye no kwishyura abereka uko bigenda akantu ku kandi.

Abakobwa babiri bakiri bato bafite umisatsi mucyeya, bambaye imipira iriho ibirango by'ikigo bakorera. Baramamaza ibikorwa bya emutiyene kandi bishimiye akazi bakora, barimo kumwenyura.

Abantu benshi bari mu cyumba. Bambaye imyenda itandukanye, hari uwambaye ipantaro y'ikake, n'abandi nka bane bambaye imipira y'umutuku n'ingofero z'umutuku, hari n'abandi bambaye amashati n'ipantaro y'ikoboyi.

Ikigo k'itumanaho Emutiyene, gikoresha ibyapa binini by'umuhondo, byandikishije ho inyuguti z'umukara byamamaza n'imipira y'umuhondo, mu gukwirakwiza ibicuruzwa gikoresha za moto nazo kenshi ziba zifite ibara ry'umuhondo.

Icyapa kinini cyamamaza ibikorwa bitandukanye by'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya eyateri, cyometse ku kazu k'icyo kigo, gafite idirishya rinini rifunguye kagaragaramo ibicuruzwa byinshi imbere bitandukanye.

Moto ziri mu muhanda ziteguye gutwara abagenzi harimo umwe wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umuhondo, undi yambaye ikabutura y'ubururu bwijimye n'umpira w'icyatsi, bose bambaye udupfukamunwa turi mu ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamamarizwa ibicuruzwa by'ikigo gikora iby'itumanaho mu Rwanda, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umuhondo, hari n'undi wambaye ingofero y'umukara, hari n'umugore wambaye umupira w'ubururu.

Abantu bitabira imurikabikorwa babona ibicuruzwa bya makeya, kandi byegeranye; ku buryo baba batagomba kuzenguruka amaduka yose.

Abagabo babiri, umwe yambaye y'ubururu, undi yambaye ipantaro y'umweru, bose hejuru bambaye imipira y'umweru, barabyina bishimye, bari mu cyumba cyamamarizwa mo ibya yoro, bari imbere y'umuzindaro munini w'umukara.

Abakobwa batatu bahagaze babiri bambaye imipira y'umuhondo isa uwa gatatu yambaye umupira w'ubururu bwijimye, bahagaze imbere y'ameza atwikirije igitambaro gifite ibara ry'ubururu bwijimye hagaragaraho icyapa cyamamaza inzoga ya PRIMUS.

Umugore wambaye ipantaro n'ikote by'ikaki, afite umusatsi mwinshi, yambaye amaherena y'umutuku, ahagaze iruhande rw'akazu k'umuhondo gakorerwamo ubucuruzi. Ku rundi ruhande, hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu bwererutse n'ipantaro yijimye.

Uma Tekinoloji ni kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda byitabiriye uburyo bwo kwishyura hakoresheje ikoranabuhanga butangwa n'ikigio k'itumanaho kitwa emutiyeni buroroshye, burizewe, burihuta kandi ntayandi mafaranga y'inyongera wishyuzwa.

Abasore babiri bahagaze bambaye amapantaro y'umukara iruhande rwabo hari undi wambaye ipantaro y'ubururu bose bambaye inkweto zifunze kandi bose hejuru bambaye udupira tw'umuhondo n'ingofero, bari iruhande rw'icyapa kicy'ikigo gikorera mu Rwanda ibijyanye n'itumanaho cya MTN.

Abantu bagana ahatangirwa ibicuruzwa by'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni (MTN) baba bambaye ku buryo butandukanye, hari uwambaye umupira ufite ikora, hari uwambaye umupira w'umutuku wanditseho amagambo y'umweru inyuma, hari n'undi imbere wambaye umwenda w'umweru utagaragara neza.

Ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda emutiyene vuba ahangaha cyatangije uburyo bwizewe bwo gukusanya nimero n'amazina y'abazikoresha ku buryo abajura batongera kuzifashisha biba.

Iruhande rw'umugabo utwaye igare, wambaye umupira w'umuhondo, uriho amagambo yamamaza ibikorwa by'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, emutiyene, hari umukobwa urimo gusokoza.

Inzu ikorerwamo n'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya Eyateri, isize amarangi y'umutuku n'umweru hagaragara abantu benshi, harimo abakozi bicyo kigo n'abaje kugura ibicuruzwa bitandukanye gicuruza.

Icyapa kinini gifite ibara ry'umuhondo kigaragaza bimwe mu bicuruzwa by'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda Mtn kikanagaragaza ingaruka ababikoresheje bibagiraho baba abakuze ndetse n'abana.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi bw’ikigo cy’itumanaho mu Rwanda cya MTN gafite ibara ry’umuhondo kanditseho ibyapa birimo ibara ry’ubururu, iryumweru ndetse munsi hariho n’icyapa n’icyirango cy’ikigo cyandikishije ibara ry’umweru hagati harimo inyuguti y’umuhondo.

Umugabo w'igikara ufite umusatsi muke ,wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'umuhondo, yicaye mu kazu gasize irange ry'umuhondo, gakorerwamo ubucuruzi bw'ikigo gukora ibijyanye n'itumanaho mu U Rwanda cya MTN.

Umugore wigikara ufite umusatsi muremure yambaye ikirango cy'akazi akora mu ijosi yambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'umutuku n'icyatsi ahagaze imbere y'imodoka nayo iri imbere y'icyapa cyamamaza ibikorwa by'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda kitwa MTN.

Ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya MTN bwaragutse cyane kandi bwitabirwa cyane cyane n'abakiri batoya kubera yuko aribo baba bagifite ibitekerezo byihuta.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ni uburyo bwiza bworoshya imirimo, butwara igihe gito, bugatuma rwose ukora ibintu neza kurusha uko wakabikoze ukoresheje inyandiko cyangwa se ukajya kuri banki.

Umukobwa wambaye ipantalo y'umukara ufite imisatsi myishi arunamye yicaye ku ntebe y'umuhondo iri mu kazu gakorerwamo ubucuruzi bw'ikigo k'itumanaho mu Rwanda cya MTN.

Umugabo w'inzoba wambaye ishati y'ubururu bwijemye irimo utubara tw'umweru n'ipantalo y'ubururu yambaye ingofero y'umukara n'agapfukamunwa, ahagaze imbere y'akazu k'ikigo k'itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni gasize irange ry'umuhondo.

Mbere yo kwishyura hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ugaragarizwa uwo ugiye kwishyura, n'umubare w'amafaranga ugiye kishyura, ndetse n'ayo bari bugukate, bigatuma udashobora kwibeshya.

Muri kompanyi y'itumanaho emutiyeni umukiriya ni umwami. Uyu mukiriya waje gusaba serivise ashobora kuba akoresha telefone ye yagize ikibazo. Ariko ikigaragara rwose yitaweho pe yafashijwe uko bishoboka kose.

Abakozi batatu b'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda MTN, bahagaze imbere y'umusore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu bwerurutse, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki yiteguye kubafotora.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda ari mu kazu gakorerwamo ubucuruzi n'icyo kigo, gasize irange ry'umuhondo. Yakiriye abasore babiri bambaye amakote asa y'ikaki n'amapantaro y'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku n'indorerwamo z'amaso aravugana n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni wambaye impuzankano y'akazi, bahagaze imbere y'umutaka ufite ibyapa byamamaza ibikorwa bitandukanye bya emutiyeni ahantu hanyura abantu benshi.

Ikoranabuhanga ntabwo rikoresha cyane cyane impapuro, ahubwo hakoreshwa ibikoresho byinshi cya eregitoronike. Kandi n'ubwo haba hadakoreshwa impapuro cyangwa ngo abantu bakoraneho, ariko ni ngombwa ko hagaragara n'umuti wo gusukura intoki.

Abantu babiri bahagaze mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi, umwe muri bo yambaye umupira ufite ibara ry'ivu n'ikanbutura y'ubururu bwijimye yambaye amarinete arimo kureba mu gikoresho k'ikoranabuhanga cye, ari iruhande rw'undi wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Uyu mugabo wambaye ishati ya karokaro nimpuzankano yumuhondo ya MTN akaba ahagaze iruhande rwigisanduku cy'umuhondo akoreramo afasha abantu batandukanye kungukirwa n'ikoranabuhanga muburyo butandukanye.

Akazu k'ikigo cy'ubucuruzi mu Rwanda bukora ibijyanye n'itumanaho, karagaragara cyane, karisize amarangi y'umuhondo n'umweru, umukozi utanga ibicuruzwa by'icyo kigo ni igikara, afite umusatsi mukeya.

Icyapa kigaragaza uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, cyanditseho amazina Ngabonziza Yohani Bosco ari mu nyuguti z'umukara. Icyo cyapa gifife nimero mirongo icyenda, makumyabiri na gatanu, zeru gatanu.

abantu batandukanye bari muri iki cyumba barimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu uri kuvugira kuri terefoni hari n'undi wicaye kuntebe ifite amaguru y'Icyma bari mu cymba gikorerwamo ibintu bitandukanye by'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya MTN

Icyapa kigaragaza uburyo bwo kwishyura hakorashejwe ikoranabuhanga, kigaragaza uburyo ubigenza kugira ngo ubashe kwishyura, kikanakwereka amazina y'uwishyurwa. Iyo ubikurikije neza, ntago wakwibeshya.

Abagabo babiri, bambaye imipira y'umuhondo yandikishijeho ibara ry'umukara bigaragara ko ari ikirango k'ikigo bakorera barimo kuganira, bahagaze imbere y'abantu benshi harimo umwana wambaye agapira gafite ubururu bukeye, n'umugore wambaye umupira ufite, ibara ry'icyatsi.

Umuntu wambaye umupira w'umweru yaje gusaba ibijyanye n'ubucuruzi bw'itumanaho bukorwa n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, abasore babiri bambaye impuzankano z'ikigo bakorera harimo umwe wambaye indorerwamo z'amaso barimo kumuha ibisobanuro.

Amazu akorerwamo ubucuruzi bw'ibigo bibiri by'itumanaho mu Rwanda emutiyeni na eyateri akenshi biba byegeranye ku buryo uburiye igicuruzwa hamwe wakibona ahandi.

Umugabo muremure w'igikara wambaye agapira k'umuhondo, gafite ikora ry'umukara; acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bibitse mu kabati gatwikirije ikirahure kibonerana.

Umukobwa munini w'inzobe wambaye ishati y'umweru n'agakomo gatukura ku kaboko, arasobanurira umukiriya uburyo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga bigenda. Aramusobanurira buri kantu ku kandi kugira ngo abyumve neza, abashe kubikora.

Icyapa cyamamaza uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga kiri imbere y'ikibaho gifite ibara ryijimye, cyegeranye n'ikindi cyapa kiriho amabara y'umuhondo cyanditseho umubare makumyabiri na gatanu n'inyuguti ya K.

Ikigo cy'ubucuruzi cyitwa geti pongi, gikoresha uburyo bwo kwishyura bushingiye ku ikoranabuhanga, aho umaze kugura yishyura akoresheje kode, karindwi umunani icyenda, zeru kabiri zeru. Bituma bimworohera ntakatwe n'ayandi mafaranga y'inyongera.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi n'ikigo gikora ibijyane n'itumanaho gikorera mu Rwanda kitwa Emutiyeni, kari hafi y'ihema ry'ubururu, rifite ibara ry'icyatsi, hari abakobwa babiri bambaye imipira y'imituku n'amajipo y'umukara, bahagaze iruhande rw'amadirishya y'ako kazu.

Akazu k'ubucuruzi bw'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda kitwa eyateli kari ahantu hisanzuye gafite amadirishya ane akinguye kagaragaraho n'ibyapa bitandukanye kanditse mu nyuguti zanditse z'umweru ndetse n'uburyo bwo kwishura bukoreshwa n'icyo kigo.

Umuntu w'igikara yambaye agakomo, afite intoki ndende, arareba muri telefone ye ariko ifite urumuri rwinshi kuburyo rushobora kumwica amaso arasabwa kurugabanya naho ubundi yamererwa nabi.

Ibikorwa byinshi bya MTN, bigaragarira ku byapa by'umuhondo byandikishijeho ibara ry'ubururu kandi ahantu hose bishobora kuhaboneka.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cy'ikigo cy'itumanaho gikorera m'u Rwanda cya emutiyeni cyigaragaraho uburyo bw'ikorana buhanga bukoreshwa mu kwishyura bigaragara ko iyo hashize iminsi butangira gusibama.

Ubucuruzi mu Rwanda bumaze gutera imbere. Mu masoko haba hari ibicuruzwa bitandukanye; ku buryo buri muntu aza akabona icyo ashaka, ndetse hakaba n'uburyo bwo kwishyura bworoshye, bukoresha ikoranabuhanga.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi gifite inkuta zisize amarangi y'umweru. Kimanitsemo icyapa kigaragaza uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, ku buryo n'umuntu ufite agatelefoni gato cyane ashobora kubukoresha.

Inshuro nyinshi uzasanga utuzu tw'ibigo bibiri bikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyeni na eyateli twegeranye kandi twose tuba turiho ibyapa byamamaza ibicuruzwa byabyo. Ibya emutiyeni biba biri mu mabara y'umuhondo naho ibya eyateli biri mu mabara y'umutuku.

Icyapa kinini cyamamaza ubucuruzi bukorwa muburyo bw'ikoranabuhanga cyigaragaraho bimwe mubicuruzwa kikagaragaraho uburyo bwo kwishyura ndetse nibiciro bitandukanye.

Icyapa cy'ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyanditse mu nyuguti z'umweru ku rupapuro rufite amabara atandukanye, munsi yacyo hagaragara uburyo butandukanye bukoreshwa kugira ngo ubashe kugera kuri ubwo bucuruzi.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, bukorerwa mu bihugu bimwe tuzi ko byateye imbere nka Leta zunze ubumwe za Amerika; Ubudage, Uburusiya ,Ubuhinde, Kanada, Ositaraliya, n'ibindi.

Iyamamaza bikorwa rya kiku, ikigo gikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga rirahambaye cyane, buri gicuruza kigaragaza amafaranga ushobora kugabanyirizwaho mu gihe waba ufashe umwanzuro wo kukigura.

Ipikipiki ifite ibara ry'ubururu ubundi yagenewe gutwarwa n'abagore ihetse igisanduku k'ikigo gikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga ihagaze imbere y'igipangu gifite urugi rw'ubururu gikinze.

Icyapa kinini cyane, cyiganjemo ibara ry'umuhondo, kigaragaramo izuba n'amagambo yandikishije inyuguti ziri mu ibara ry'icyatsi, kagaragaramo kandi uburyo bwo kugabanyiza ibiciro, ndetse n'uko wabasha kwitabira icyo gitaramo.

Moto nyinshi ziri mu muhanda zitwawe n'abantu bambaye amakote y'umutuku bigaragara ko ari impuzankano y'ikigo bakorera, yanditseho icyapa k'icyo kigo aricyo kitwa yegomoto banambaye ingofero z'ibara ry'umutuku.

Umugabo atwaye ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu, yambaye ingofero itukura, anyuze iruhande rw'icyapa cyamamaza ibiribwa.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bukorwa n'ikigo vubavuba gikorera mu Rwanda i kigali kimaze kwaguka cyane, aho basigaye bakoresha n'amagare, umukozi wacyo yambaye impuzankano ahetse igisanduku kirimo ibicuruzwa, bishobora ko bikoreshwa ku bicuruzwa bitaremereye cyane.

Ubucuruzi bw'ikoranabuhanga nk'ubu bukorwa n'ikigo cyabugenewe vubavuba, bukoresha abamotari ndetse na moto zabugenewe bukageza ku baguzi ibicuruzwa bitandukanye bigaragara ko bugirira akamaro ababukora.

Imodoka nini y'ikigo k'itumanaho mu Rwanda kitwa iposita gifite ibirango byamamaza biri mu mabara atandukanye harimo iry'umuhondo n'ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ahagana hasi.

Umusore muremure w'igikara, ufite umusatsi mukeya, yamabye ashati ifite ibara ry'ivu, afite amenyo yera cyane, agaragara, n'amaso manini.

Ikoranabuhanga ryarakataje cyane mu Rwanda cyane cyane mu rubyiruko. Ku buryo iyo umwe mu rubyiruko arihugiyeho rwose ubona ko ubwenge bugenda agatwarwa pe.

Icyapa cyamamaza ibikorwa by'ikigo kitwa aribaba gikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga ni ubucuruzi bwitabirwa cyane kubera ko bucuruza ku biciro bidakanganye cyane.

Icyapa kigaragara ku moto ihetse igisanduku kiri mu ibara ry'umutuku, i ruhande rwacyo hari icupa rya jibu n'icupa rya gaze, munsi yaho hagaragaraho nimero ya telefone wakoresha ushaka gutanga komande.

Umugabo munini muremure w'imibiri yombi ufite umusatsi muke wambaye isaha ni'ipantaro y'umukara, yegamye ku ipikipiki ifite ibara ritukura ihetse igisanduku kirimo ibara ry'umutuku n'iry'umuhondo.

Icyapa kinini cyamamaza ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga kigaragaraho ibicuruzwa bitandukanye, muri ibyo harimo isakoshi igura amafaranga magana atandatu na mirongo itanu n'abiri hariho n'ikote ry'umukara rifite umwihariko w'uko iyo uriguze uryohererezwa ku buntu nta kiguzi utanze.

Icyapa kinini cyamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, bukorwa hifashishijwe mudasobwa bakagusobanurira uko ubigenza ingingo ku yindi, iyo winjiye muri ubwo buryo.

Ubucuruzi mu Rwanda bumaze gutera imbere cyane cyane ubukoresha ikoranabuhanga ubona ko bwitabirwa n'ibigi bitandukanye ibirango byabyo bigaragara ahantu hatanduknye mu guhugu.

Isura y'umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati rifite ibara ry'ivu, iragaragaza ukuntu ibikorwa ari mo kwamamaza ari iby'ingenzi cyane.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu bukeye buvanze n'umweru kigaragaraho abantu babiri bamamaza ibikoresho bwifashishwa n'abakobwa n'abagore igihe bari mu mihango.

Iyamamaza bikorwa rikoresha ikorana buhanga riritonderwa cyane urebye kuri iki cyapa imyenda igaragara ho wagirango urayireba imbona nkubone imurikiwe n'igitara kinini kiri i ruhande rwayo.

Urubuga rw'amamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga. Rurerekana bimwe mu bikoreshwa n'abagore cyangwa abakobwa mu kwiyongerera ubwiza ndetse n'uburyo bwateganyijwe bwo kubibagezaho bitagoranye.

Amapikipiki abiri ahetse ibisanduku bitwarwamo ibicuruzwa ahagaze hino y'uruzitiro rukozwe n'indabo hafi y'icyuma kirekire kizikwaho imigozi itwara amashanyarazi kirekire ku buryo utabasha kubona imigozi iziritseho.

Umukozi w'ikigo Birasi, gicuruza kifashishije ikoranabuhanga, yambaye ingofero y'ubururu, n'impuzankano y'ikigo akorera, ageze ku muguzi, apfunduye igisanduku, agiye kumuha ibyo yatumije.

Iduka ricuruza inkweto rizi kwamamaza ritereke inkweto ku buryo butangaje rikagaragaza aho ricururiza ndetse n'uko ibicuruzwa byakugeraho rikakwereka ibiciro ku buryo ari uburyo bwiza bwo gukurura abakiriye.

Icyapa kinini cyane, kiri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere, ahagana hejuru ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ahagana hasi hagaragara utunyenyeri dutanu, tune muri two dufite ibara ry'umuhondo.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'ibara ry'umuhondo, cyanditseho n'igiciro cyagabanyijwe kiva ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi na magana atanu kigera ku bihumbi mirongo itanu na bine na magana atanu.

Abantu benshi bari mu muhanda batwaye moto bambaye ingofero zidasa bamwe bambaye umutuku undi yambaye umukara babiri muri bo bahetse ibisanduku bitwarwamo ibiribwa biri mu ibara ry'umutuku bifiteho icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Icyapa cyamamaza ibicuruzwa by'ikoranabuhanga, kiriho agakapu gafite ibara ry'umukara, gateye neza, hariho n'umukobwa wishimiye ibicuruzwa yahawe.

Umuntu urimo kwamamaza ibikorwa by'ikigo gikora ubwikorezi akorera, yambaye imyenda yose y'ubururu, ingofero y'ubururu umupira w'ubururu bigaragara ko yishimiye akazi akora.

Icyapa cyanditse mu nyuguti nini z'umweru cyometse ku kibaho cy'umutuku wijimye, iruhande rw'ikirango k'iminsi mikuru yo mu mpera z'umwaka. Munsi yaho hagaragaza ibicuruzwa bitandukanye byacuruzwaga muri icyo gihe.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye impuzankano y'ikigo akorera vuba vuba, avuye guhaha ahagaze iruhande rw'ipikipiki ihetse igisanduku gitwara ibintu n'ubundi kiriho icyapa cya vuba vuba.

Ipikipiki ifite ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo kigaragaraho imibare gatandatu gatanu gatatu, itwawe n'umuntu wambaye ingofero iri mu ibara ry'icyatsi wambaye n'ishati y'icyatsi, ahetse igisanduku kinini kiriho ikirango cy'ikigo gicuruza mu buryo bw'ikoranabuhanga cyitwa vuba vuba.

Imbere y'inzu y'igorofa ifite amarange y'umuhondo n'ubururu, hari amapikipiki menshi atwawe n'abantu bambaye imipira y'imihondo bose n'ingofero z'imihondo, bahetse ibisanduku n'imidoko ziriho ikirango cy'iposita.

Umuntu utwaye ipikipiki yambaye ingofero y'ubururu, ahetse igisanduku kiriho amagambo menshi yo kwamamaza, aragenda mu muhanda.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myinshi useka yambaye umupira w'umweru, aramamaza ibikorwa by'ucuruzi bigaragara ku cyapa cyanditseho inyuguti nini z'umukara.

Icyapa kinini cyibara rya umutuku cyandikishijeho inyuguti zubururu n'umweru numutuku kiri kumodoka ifite icyapa cya benzi hariho na nimero za telefone wahamagara.

Icyapa gifite ibara ry'umweru, kigaragaraho ibirango bitandukanye by'ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, kigaragaraho n'amagambo asobanura ukuntu ubwo bucuruzi bukorwa n'uko wagera kuri ba nyirabwo.

Icyapa kinini cyamamaza kigaragaraho impano ifunze neza, i ruhande rwacyo hari indabo, hari n'igiti gitoshye gifite amababi mato mato kiriho n'ibara ritukura ndetse n'iry'umukara.

Icyapa kinini kigaragaraho abantu babiri umugabo n'umugore, kigaragaraho amagambo yanditse mu nyuguti nini z'umweru kiriho n'ibara ry'umuhondo hejuru gisobanura ko bacuruza ibiribwa.

Amapikipiki atatu ahetse ibisanduku bikorerwamo ubucuruzi ahagaze mu kibuga cy'urugo ruzengurutswe n'urukuta rurerure hirya y'urwo rukuta haragaragara urutoki n'inzu irimo kubakwa.

Imbuga z'iyakure zifite akamaro gatandukanye. Hari izifasha abantu gusabana, hari izifasha mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga, hari izifasha gukwirakwiza ibitekerezo bitandukanye, iyo zikoreshejwe neza zigira akamaro.

Abantu babiri harimo umukobwa w'inzobe useka neza n'undi wambaye impuzankano ifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, amuzaniye ibicuruzwa bitangwa n'ikigo gicuruza mu buryo bw'ikoranabuhanga mu Rwanda.

Abakozi batatu b'ikigo gikora ubucuruzi mu buryo bw'ikoranabuhanga, batwara moto mambaye impuzankano z''umutuku, ndetse moto zabo ziba zihetse ibisanduku biriho ibirango by'ikigo bakorera.

Abantu bari mu muhanda batwaye moto, harimo imwe ifite ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo gifite imibare icyenda n'umunani, bambaye ingofero z'umuhondo zanditseho yego moto.

Icyapa kinini cyamamaza ibiribwa bitandukanye, kiri mu ibara ry'icyatsi cyandikishijeho inyuguti nini z'umweru n'iz'umuhondo, kigaragaraho n'igiciro cy'amafaranga ibihumbi mirongo itanu na bine na magana atanu, kigaragaraho ibiribwa bitandukanye harimo n'inanasi.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga rukorera mu Rwanda I kigali, ruragaragaza bimwe mubicuruzwa ushobora kugura wifashishije ubwo buryo, waba uri mu mugi wa kigali cyangwa hanze yawo n'uburyo byakugeraho kuburyo bworoshye kandi ntakindi kiguzi utanze

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, rugaragaza ko ryagutse cyane, aho ushobora kugura ibintu bitandukanye, ibihenze nk'imodoka, amapikipiki, ndetse n'ibiribwa byiroheje, bikoreshwa mu rugo, harimo imboga n'imbuto, nk'imineke, inyanya, n'ibindi.

Umuntu utwaye moto yambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'ubururu bwijimye ahetse ibisanduku bibiri, harimo igifite ibara ry'umuhondo n'ikindi gifite ibara ry'umutuku yambaye ingofero ifite ibara ry'umutuku iruhande rwe hari igiti gifite amababi atoshye.

Moto ifite ibara ry'umutuku ifite ikirango gatanu kane gatatu, ihetse igisanduku gifite ibara ry'ubururu n'umuhondo iri imbere y'ingazi zizamuka zinjira mu nzu.

Umukozi wa kompanyi y'ubucuruzi Biras wambaye impuzankano yabugenewe n'agapira k'ubururu bw'ikirere n'ipantaro yijimye, aritegereza ibicuruzwa agiye kugeza ku bakiriya be.

Ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga buramamaza cyane, bukwereka ibicuruzwa n'ibindi bisa nabyo inyama ndetse n'ibindi. Bakakwereka uburyo bwo kugura ndetse n'ubwo kwishyura n'ibiciro bitandukanye.

Umutwe mukuru w'iki kiganiro ndetse n'ibisobanuro byacyo byanditse ku rupapuro rumwe, ariko mu mabara atandukanye; umutwe mukuru wanditse mu ibara ry'umutuku, ibisobanuro byanditse ku rupapuro rw'umweru, kandi byose byakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda.

Ibyapa byamamaza ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga. Buragaragaza ibicuruzwa bitandukanye, amakanzu cyane cyane. Buragaragaza igiciro cya buri kintu kandi bikagaragaza n'uburyo icyo kintu ushobora kukibona, bakwereka aho wahamagara.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ikoranabuhanga bw'itwa ihaha, imbere yayo hari igiti cy'umukindo, hari na moto iri miu ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyamamaza kigaragaza izina ry'igicuruzwa, ingano yacyo, igiciro cyacyo, uburyo cyakugeraho ndetse n'ibyiza byacyo.

Ubucuruzi bwo m'u Rwanda bumaze gutera imbere haba hari ibicuruzwa biturutse hirya no hino kw'isi kandi bikorwa mu buryo bw'ikorana buhanga.

Urubuga rwamamaza bimwe mu bicuruzwa byiza kurusha ibindi ushobora kugura wifashishije ikoranabuhanga mu Rwanda, bakwereka neza igicuruzwa n'ibikiranga bakakubaza niba witeguye ku buryo wahita ugitumiza.

Uyu musore wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu uri kuri moto y'ubururu ifite icyapa cya safi, yambaye n'inkweto za supuresi zifite amabara y'umweru n'amasogisi arimo uturongo.

Icyapa kiriho ikirango cy'ikigo gikora ubucuruzi mu Rwanda cyitwa "Tuma 250", cyanditse mw'ibara ry'umutuku n'ibara ry'icyatsi; iruhande rwacyo hari agashushanyo kagaragaza umutwe w'umuntu.

Urubuga rw'iyamamazabikorwa rya Tayo, rurangwa n'icyapa cy'umugore w'umunyafurika, bigaragara ko imyenda bacuruza na yo ikorerwa muri Afurika, bikaba bigaragaza iterambere mu bucuruzi no mu bihugu byacu.

Amapikipiki atatu ahetse ibisanduku by'ibigo by'ubucuruzi bikorera mu Rwanda, iyo hagati ifite ikirango kiriho imibare gatatu gatatu gatatu, uyitwaye yambaye ingofero y'umweru.

Umugabo utwaye ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, yambaye umupira wicyatsi n'ipantaro y'ubururu, yambaye ingofero y'icyatsi ahetse igisanduku cy'ikigo gikora ubucuruzi mu Rwanda cyitwa vuba vuba ari ku muhanda uringaniye.

Umuntu utwaye moto yambaye ingofero y'umutuku, moto ifite ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo ihetse igisanduku kinini kigaragara ko gitwarwamo ibiribwa.

Urubuga rw'ikigo runaka, rugaragaza izina ry'icyo kigo, rukagaragaza ibikorwa byacyo ndetse n'aho kibarizwa.

Nubwo ubucuruzi mu Rwanda bwateye imbere cyane, cyane cyane ubukoresha ikoranabuhanga, bugatanga imirimo itandukanye, ariko bugaragaza n'ibibazo byinshi ku buryo hakiri inzira ndende.

Icyapa kinini gikeye kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye bicururizwa mu mujyi wa Kigali, cyanditse mu nyuguti z'umukara zimwe nini ndetse n'izindi z'umweru ziri ku kibaho cy'ubururu.

Abakozi babiri b'ikigo gicuruza kifashije ikoranabuhanga mu Rwanda vuba vuba, bafite akanyamuneza bambaye impuzankano y'akazi, bigaragara y'uko bishimiye akazi bakora kababyarira umusaruro.

Uburyo bwo kwamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bukoresha cyane cyane amafoto nk'ibiribwa bateguye, bakagaragaza uburyo bitegurwa bigirira akamaro atari ababirya gusa ahubwo n'ababireba kubera ko nabo bashobora kubitegura.

Ku cyapa kinini kiri mu ibara ry'umukara hagaragaraho amabara atandukanye harimo ibara ry'umweru, ibara ry'isine, ibara ry'icyatsi. hari n'akagare gashushanyijeho k'abamugaye kari mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuntu wambaye ingofero y'akazi itukura n'ipantalo y'ubururu afite ibahasha mu ntoki ze ifite ibara ry'ikaki, ahagaze iruhande rw'ipikipiki ihetse igisanduku gitukura bigaragara ko gitwarwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Urubuga rw'amamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga ruragaragaza ibicuruzwa bitandukanye n'ibiciro byabyo, harimo ibijyanye n'imisatsi y'abagore, barimo ibijyanye n'ibindi mitako y'ubwiza...

Ibyapa bibiri icyo hejuru kigaragaraho ameza ateretse mu nzu afite udukoresho dufungura tw'utwuma, ku kindi cyapa hari inzu igeretse imbere yayo hari icyapa kiriho ibara ry'umutuku n'iry'ubururu.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bukorwa n'abagore mu Rwanda, bufite ubuyobozi busobanutse neza bugaragaramo bamwe nka Paula Ingabire, Asumta Ingabire, Diane karusisi, Jeanne Francois Mubirigi n'abandi n'abandi.

Ibiribwa bikiri bishyashya bihingwa imbere mu gihugu bicurururizwa ahantu hatandukanye ku biciro bidakanganye cyane birimo imineke ndetse nibirayi.

Ipikipiki ihetse igisanduku gikoreshwa mu bucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga. Uyitwaye yambaye ingofero itukura n'umupira w'umuhondo arareba ko hari ikinyabiziga giturutse inyuma ye yifashishije indorerwamo yabugenewe.

Ipikipiki ifite ikirango gatandatu kane gatandatu ca cyandikishije inyuguti z'umutuku, ihetse igisanduku k'ikigo gikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga Vubavuba gifite nimero ijana na mirongo itatu na rimwe.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bumaze gutera imbere cyane, aho haboneka ibikoresho byabugenewe bikuyobora aho bukorera wifashishije ikarita yabugenewe, ku buryo udashobora kuyoba cyangwa guhagarara buri kanya ubaza aho giherereye.

Umugabo utwara moto, yambaye ikote ry'ubururu rifite ibara ry'umuhondo, yambaye n'ingofero ifite ibara ry'icyatsi n'ipantaro y'umukara, azaniye umukobwa w'inzobe wambaye amarinete ibicuruzwa, bari iruhande rw'ubusitani burimo ibiti n'indabyo.

Ikigo cy'ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga gikorera mu Rwanda vuba vuba; gikoresha moto n'ibisanduku biba byanditseho vuba vuba, bifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyamamaza amandazi azwi cyane y'urwibutso kigaragaza igiciro cyayo n'uburyo bukoreshwa mu kwishyura bukoresha ikoranabuhanga ni uburyo bwizewe cyane.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga mu Rwanda i Kigali, ruragaragaza izina ry'umucuruzi, aho akorera, ndetse n'uburyo wabigenza kugira ngo ukurikirane ibikorwa bye bya buri munsi.

Abantu barimo umugabo umwe urimo kuvugira kuri telefone, n'abagore babiri b'inzobe, bicaye mu cyumba gikorerwaho ubucuruzi, kiriho n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku ubururu n'umweru.

Icyapa cy'ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bukorera mu Rwanda, cyanditse mu ntuguti zitose nini z'umukara. Munsi yacyo hagaragara ibigo bibiri bikora ubwo bucuruzi mu Rwanda.

Icyapa kinini cyamamaza ubucuruzi bw'ibiribwa bikiri bishyashya, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Kigaragaraho ibicuruzwa bitandukanye birimo imboga n'imbuto, ku rundi ruhande hagaragara urubuga wakwifashisha mu gihe ukeneye ibyo bicuruzwa bitandukanye.

Inzu nini ifite imiryango myinshi n'amadirishya menshi asize irange ry'umweru, imbere yayo haparitse imodoka ifite ibara ry'ubururu, mu muryango w'iyo nzu hahagaze umugore w'inzobe.

Icyapa cyumweru n'ubururu bwijimye kigaragaraho ibicuruzwa bitandukanye byagombaga gutangwa kugeza ku italiki myakumyabiri neshatu za ukwezi kwa cumi nakumwe mumwaka wibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa kinini kiriho isaha y'urushinge kiriho n'amagambo manini yanditse mu ibara ry'ubururu bwijimye n'umutuku, hariho n'amagambo yandi ari munsi yanditse mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Icyapa kigaragaraho ibicuruzzwa bitandukanye, kiri mu ibara ry'umweru, ibicuruzwa biri mu mabara atandukanye: harimo umutuku, umukara, ubururu bukeye, handitseho n'amagambo mu tunyuguti dutoya tw'umukara.

Icyapa kinini cy'umweru cyandikishijeho inyuguti z'ubururu n'izicyatsi kigaragaraho ibigo bitandukanye bikora ubucuruzi mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari ibikorera mu Rwanda hari n'ibikorera mu bihugu by'amahanga.

Ibyapa binini bigaragaraho ibintu bitandukanye, harimo umugabo n'umugore bicaye iruhande rw'ameza barimo gukorera kuri mudasobwa. Umugabo yambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru, umugore yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru.

Urubuga rwamamaza uburyo bwo kugura no kugurisha bukoreshwa mu Rwanda bwifashishije ikoranabuhanga bugaragaramo ibintu bitandukanye uburyo bwo kwamamaza ibikorwa, uburyo bwo kubikwirakwiza, uburyo bwo kubitwara ndetse n'abakiriya batandukanye.

Abakobwa babiri b'imibiri yombi umwe asutse imisatsi yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'icyatsi baratangarira igabanyirizwa ry'igiciro kugicuruzwa rigera kuri mirongo itanu ku ijana bafite akanyamuneza rwose byanze bikunze baragura.

Icyapa kinini kiri mu ibara rikeye cyandikishijeho inyuguti z'umweru, kiriho n'akandi kapa gatoya kagaragaza ibicuruzwa bitandukanye bitangwa n'icyo kigo biri mu ibara ry'icyatsi, iry'ubururu, iry'umutuku n'iry'umukara.

Icyapa kiriho amabara avangavanze, kigaragaraho umukobwa wiyogoshesheje, n'icyapa k'inzoga ikorwa n'ikigo cy'ubucuruzi gikorera mu Rwanda kitwa burarirwa, kigaragaraho n'ikindi cyapa kigaragara ukuntu wagura amatike kugirango witabire ibikorwa byacyo.

Icyapa kinini cy'umweru kigaragaraho urutonde rw'ibicuruzwa bitangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari ibiri mu ibara ry'icyatsi, ibara ry'umukara, n'ibara ry'ubururu.

Icyapa kinini cyamamaza ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga. Kirerekana ukuntu umuntu ashobora gutumiza igicuruzwa ari iwe mu rugo, atuje, atagombye kuvunika no gukoresha amafaranga menshi yishyura ingendo.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, kigaragaraho inkweto, imirasire y'izuba, amasakoshi, kuri buri cyose hagaragariraho ijanisha ry'ayo wemerewe kugabanyirizwa.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bumaze kwamamara cyane, icyapa kigaragaza uko bukorya, uko ibicuruzwa bikugeraho, uburyo bwo ku ishyura, nimero wahamagara kugirango ubone ibyo wifuza burizewe cyane.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku kigaragaraho amagambo yandikishije inyuguti nini z'umweru, kigaragaraho n'ibirango by'ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda ifite amabara atandukanye harimo umuhondo, ubururu bwijimye, ubururu bw'ikirere ndetse n'umutuku.

Imodoka eshatu zifite ibara ry'umweru ziri imbere y'icyapa cy'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Twiga, icyapa cyanditse mu nyuguti isa umweru zometse ku rupapuro rw'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye indorerwamo z'amaso bafite mu biganza byabo ingofero zifite ibara ry'icyatsi zigaragaraho ibirango cy'ikigo bamamariza byanditse mu ibara ry'umweru.

Moto iri mw'ibara ritukura ihetse igisanduku cy'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa YEGO, kigaragaraho nimero wahamagara yanditseho mirongo cyenda na rimwe, mirongo cyenda na rimwe.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye ushobora kugura ukoresheje uburyo bw'ikiranabuhanga, kiragaragaraho ibiciro bya biri gicuruzwa, kiragaragaraho kandi uburyo bukoreshwa, bworoshye, bwo kwishyura.

Umukobwa w'imibiri yombi usutse imisatsi, yambaye umupira w'icyatsi uriho ikirango cy'ikigo gikora ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga mu Rwanda cya vuba vuba.

Icyapa kinini kiriho imyenda itandukanye igurishirizwa mu maduka yo Rwanda kigaragaraho amakote, inkweto, ingofero, imyenda itandukanye yaba iyabagore n'iyabana.

Umukozi w'ikigo cy'ubucuruzi jumiya yambaye impuzankano igaragaraho ikirango k'ikigo akorera ahagaze irugande rw'igisanduka gitwarwamo ibicuruzwa nacyo kigaragaraho ikirango k'icyo kigo jumiya.

Icyapa kinini cy'umuhondo cyandikishijeho inyuguti z'umukara, cyegeranye n'impuzankano y'ubururu nayo yandikishijeho inyuguti z'umuhondo, gisobanu ikigo gikoresha izo mpuzankano ndetse n'umwirondoro wacyo.